Ifoto iriho ikirangantego cya kompanyi ishinzwe isuku n'isukura, kizwi nka wasake mu Rwanda. Yanditswe mu magambo y'ubururu bw'ikirere ndetse n'inyuguti ya s mu ibara ry'cyatsi.

Ishusho y'umwana wunamye imbere y'ivomero ahasa no mu kigo cy'amashuri, yambaye umupira w'umweru ndetse n'agakanzu k'ubururu, ateza intoki ze ku ivomero ibisa naho ashaka amazi yo kunywa.

Ishusho ririho ikirangantego kigaragaza umubumbe w'isi, cyanditseho amagambo Unicef, muri uwo mubumbe harimo umubyeyi uteruye umwana.

Itsinda ry'abantu batandukanye, barimo abahungu n'abakobwa bambaye imyenda isa y'imituku, batatu muri bo barunamye baratera ibihingwa, hahagaze n'umupolisi wambaye impuzankano.

Mu Rwanda ibyorezo bigiye bitandukanye, byagiye byibasira igihugu ku buryo bukomeye. Kimwe mu byorezo byafashe intera, harimo n'icyorezo cya Marburg aho cyahitanye abatari bake mu gihugu.

Umugabo wicaye wambaye ikanzu y'umukara, imbere ye hari umuganga uri kumushyirira umuti mu kanwa, uwo muganga yambaye ikanzu yo mu ibara ry'ubururu, yambaye agapfukamunwa ndetse n'uturindantoki.

Ishusho y'abana basa n'abakiri bato bari mu rungano, bose bari ku ivomero, imbere y'ivomero hari amajerekani ari mu ibara ry'umuhondo, bigaragara ko baje gushaka amazi.

Ishusho y'umuntu uryamye, witeze igitambaro mu mutwe, iruhande rwe hari umuganga wambaye impuzankano, uri kumupima umuvuduko w'amaraso mu kuboko kwe kw'ibumoso.

Ishusho y'abantu babiri bigaragara ko umwe ari umugabo, undi ari umugore, bose bafite amajerekani, bahagaze imbere y'ivomero, bateze amazi. Umugore yitwikiriye igitambaro, mu gihe umugabo yambaye ishati.

Ishusho y'umugore n'umuganga, umugore yambaye umupira w'umukara, umuganga yambaye impuzankano zisa n'ibara ry'ikirere ndetse n'agapfukamunwa. Umugore ateze ukuboko kwe kw'iburyo, umuganga aramutera urushinge ahagana ku rutugu.

Inyubako igizwe n'amabati asa n'ashaje. imbere yayo hubatse amahema abiri ahagana mu rubavu hari imodoka nto itwara abantu, mu mbuga y'inyubako harimo uruhurirane rw'abantu b'ingeri zose batandukanye kandi benshi.

Ishusho iriho abantu batandukanye, igaragaraho umugore uhagaze ufite telefone asa n'ufotora, umugabo wambaye ingofero ndetse n'umupira biri mu ibara ry'ubururu, uwo mugabo arakorera ijerekani umwana.

Ishusho y'abana ndetse n'abakuru, abana bicaye, abakuru bari kubaha ibyo kunywa, abana bambaye imyenda isa, iri mu ibara ry'umutuku, mu bakuru bahagaze bari gutanga ibyo kunywa, harimo n'uwambaye impuzankano za Polisi y'Igihugu cy'u Rwanda.

Abantu babiri bari ahantu hari amazi asa n'atemba, umwe w'igitsina gore ari mu mazi aratega yifashishije ijerekani, undi ari ahagana ku nkengero aroza igare.

Ishusho y'umuntu w'igitsina gore witeze igitambaro kirimo amabara y'umuhondo n'ubururu, wambaye ikanzu isa n'ibara ry'icyatsi, ufite agapfukamunwa gasa nk'ubururu bw'ikirere, uhagaze imbere y'ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye.

Itsinda ry'abana bambaye impuzankano zibagaragaza ko ari abanyeshuri, begereye ivomero ry'amazi barakaraba.

Itsinda ry'abanyeshuri b'abahungu n'abakobwa, bambaye impuzankano za kake, bahagaze imbere y'amavomero n'indobo z'imihondo, bateze amazi.

Ishusho y'umwana wunamye ku ivomero, wateze ibiganza ari kunywa amazi yambaye ikabutura y'umutuku ndetse n'ishati iri mu mabara asa n'aya gisirikare, imbere ye hasi hateretse indobo iri kujyamo amazi.

Abagore batatu, babiri barapomba icyuma ku mugezi, barateze amazi yishishije indobo y'icyatsi umwe akenyeye ibitenge uteze amazi yambaye ikanzu y'amabara.

Ikirango cy'umweru kiri mu mabara y'ubururu, kirimo inyuguti zanditse mu buryo bw'inyuguti nkuru UN WF na P.

Ishusho y'abantu benshi bicaye ku ntebe mu nyubako nini, irimo umugore uhagaze ukikiye umwana witeze igitambaro gisa n'imyenda yambaye.

Abantu benshi bahagaze biganjemo abambaye imyenda y'imyeru ndetse n'undi umwe wicaye ufite impapuro usa naho afite ibyo ari kwandika ndetse anababwira, bamwe mu bahagaze barimouwambaye igisa n'isengeri y'umutuku ndetse n'uwambaye iy'icyatsi.

Umwana wambaye ishati y'ubururu bw'ikirere ndetse n'ipantaro y'umukara, arafungura robine y'indobo iteretse ku meza, bigaragara ko ari kunywa amazi.

Umwana wambaye umupira w'umuhondo n'ikabutura y'umukara ufashe akajerekani, uzamuye robine ateze amazi.

Umwana wunamye uteze intoki kuri robine, bigaragara ko ari gusukura ibiganza bye yifashishije amazi avuye muri rubine.

Abana batanu bari n'umubyeyi umwe, bambaye impuzankano begereye ikigega cy'amazi, bose bafite ibikombe baranywa bigaragara ko bafite inyota.

Mu buzima bwa muntu isuku nigenzi mu byo akora byose kugira isuku ni kimwe agomba kwitaho kugira ngo agire ubuzima buzira umuze isuku ihera mu gukaraba amazi meza ndetse n'isabune kugira ngo ibyo ukora nabyo bibe bitunganye.

Abana benshi bambaye imyenda isa, iri mu ibara ry'ubururu, bicaye hasi barambije amaguru, barimo n'ababyeyi bake, bisa naho abo bana ari abanyeshuri.

Abana bicaye bari kunyweshwa amata, bambaye imyenda y'imituku, imbere yabo hari abandi bantu bahagaze barimo n'umusirikare umwe ufite igikoresho kirimo amata.

Amazi aturuka mu gihombo ibiganza biteze nyi'ibyo biganza yambaye umwenda w'ubururu uragaragara.

Ibikoresho byifashishwa kwa muganga, byongerera abantu imyuka bahumeka, bizwi nka bomboni, biri mu mabara y'ubururu.

Ibikorwa by'isuku mu Rwanda birarimbanije. Imwe mu ngamba zafashwe harimo nko kugerageza kwegereza abaturage amazi aho bagiye batuye kugira ngo bace ukubiri n'indwara ziterwa n'umwanda.

Ishusho y'abana benshi abicaye n'abahagaze bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umuhondo, abenshi muri bo bazamuye amaboko, inyuma yabo hari abantu bakuru bane bahagaze ndetse n'umuzungu umwe.

Ishusho y'abagore n'abagabo bicaye, ku meza ziri mu mashusho y'uruziga, bose bafite amazi imbere yabo yo kunywa ndetse n'amakaye yo kwandikaho, bigaragara ko bari nko mu nama.

Abantu bicaye biganjemo ab'igitsina gore bahagaze imbere yabo n'umugabo wambaye ikoti ry'umukara ufite mikoro bigaragaza ko ari kuvuga imbere yabo hari amagambo avuga ko bari ku bijyanye n'ubuzima bw'umwana ndetse n'umubyeyi.

Abantu batanu bambaye ingofero z'imyeru n'imipira y'ubururu, yanditseho amagambo ngo shora neza.

Minisiteri y'ubuzima ikangurira abaturarwanda bose kugira isuku; zimwe mu ngamba zafashwe harimo nko koga amazi meza n'isabune, mbere yo kugira icyo umuntu akora kandi akabikora kenshi ku munsi.

Umubiri w'umuntu ugizwe n'amazi menshi, iyo agabanutse mu mubiri ukurizamo indwara zo kurwara umwuma, ni ngombwa kunywa amazi ahagije kugira ngo tugire ubuzima buzira umuze.

Ishusho y'umubyeyi witeze igitambaro ndetse n'umupira w'ubururu, urimo amabara y'umukara n'umweru, ateruye umwana, imbere ye hari umuganga uri gutera umwana urushinge, ku gice cy'urutugu rwe.

Abana b'anyeshuri n'ababyeyi bakuru, barahagaze baraganira. Abana bari na mwarimu, hirya y'umwarimu, hari umuntu bigaragara ko ari umuganga, yambaye ijire y'icyatsi.

Umubyeyi witeze igitambaro mu mutwe gisa n'ishati yambaye, ukikiye uruhinja, urwo ruhinja ruri guterwa urushinge n'umuganga wambaye ishati y'umweru.

Amazi n'ubuzima buri wese agomba kunywa amazi ahagije buri munsi kugira ngo agire ubuzima buzira umuze bityo binamufashe no m'igikorwa cy'igogora.

Itsinda ry'abagore n'abagabo bicaye mu nyubako imbere ku ntebe, barimo abambaye amakoti y'imikara ndetse n'amapantaro y'imikara, mu imbere bambaye amashati y'imyeru, bari mu nyubako iteye irange ry'umuhondo.

Ishusho y'abantu benshi bicaye bateganye, buri umwe afite agacupa k'amazi imbere ye, bose bafite ibitabo bari kwandikamo, ndetse abenshi muri bo barangariye muma telefone.

Ishusho igaragaza abantu batatu b'igitsina gore bose bikenyeye ibitenge, babiri muri bo bafatanyije gufomba icyuma kizana amazi, umwe yateze amazi ku ivomero yifashishije indobo.

Itsinda ryabantu banyuranye bicaye barimo umusilamu wumugore wambaye umwenda w'umutuku witeze undi w'umweru kumutwe, barimo kandi n'undi mugore wambaye imyenda yicyatsi ndetse nabagabo banyuranye.

Umubyeyi uteruye umwana ufite amverope mu ntoki wambaye ikanzu ikoze mu gitenge ndetse witeze mu mutwe igitambara gisa n'ikanzu.

Abantu babiri umwana ndetse n'umuganga, umwana aricaye ateze ukuboko umuganga aramu urushinge ahagana ku rutugu inyuma hari abandi bantu benshi bicaye basa n'abategereje gukorerwa iki gikorwa.

Buri muturage wese aho ari no mu byo akora byose agomba kurangwa n'isuku. Mbere yo kugira icyo ukora ugomba koga amazi meza ndetse n'isabune.

Ishusho y'abana babiri b'abakobwa bari mu kigero cy'ubwangavu, bateruye indobo y'icyatsi bahagaze imbere y'ivomero, bigaragara ko umwe ashaka gukorera undi nyuma yo kuvoma.

Umuntu w'igitsina gore ufite uruhu rw'inzobe, afashe mikoro arasa n'uri gutanga ikiganiro. Inyuma ye hari ibirango bya UNICEF ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye biri mu mabara atandukanye.

Itsinda ry'abagore n'abagabo bicaye bateganye, imbere yabo hari ibendera ry'igihugu cy' u Rwanda, hari kandi umugabo uri hepfo usa n'aho ayoboye inama, buri muntu imbere ye hari icupa ry'amazi.

Ishusho y'umugore wicaye wambaye ishati y'igitenge, ufite umusatsi mwinshi, ateruye umwana, iruhande rw'umwana hari umuganga ufashe mu maso y'umwana ndetse asa n'umuha ibyo kunywa.

Abana batandukanye bafite amajerekani baje ku ivomo gushaka amazi, umwe yambaye imyenda y'ubururu, arapompa ngo abone amazi, abandi barahagaze barasa nk'abategereje.

ishusho y'abantu bahagaze biganjemo abagore n'abagabo bambaye impuzankano ndetse n'amakari abaranga, izo mpuzankano zabo siza ni ibara ry'ubururu bw'ikirere, imbere yabo hari umugabo wambaye ikoti ry'umukara usa n'utezwe amatwi.

Ishusho y'abantu bahagaze bivanzemo abagore n'abagabo, bambaye imyenda y'amabara atandukanye, gusa abenshi muri bo bambaye isa n'ibara ry'ubururu bw'ikirere, bakikije umwana w'uruhinja uryamishijwe.

Ibikoresho birebire bibiri bireshya, biri mu mabara y'ubururu ndetse n'indiba y'imikara, bizwi nk'ibitwara imyuka bijya kuyongerera abarwayi badafite umwuka uhagije, mu ndimi z'amahanga byitwa bomboni.

Serivisi z'ubuvuzi mu Rwanda ndetse no hanze ni imwe muri serivisi zitangwa hatarobanuwe hagendewe ku kintu iki n'iki buri wese afite uburenganzira bwo kwivuza aho ari hose.

Imurikagurisha ni kimwe mu bikorwa bikorwa kugira ngo hagaragazwe ibicuruzwa bitandukanye abantu bafite, maze bigurwe nibyishimirwa, hari n'imurikagurisha ry'imiti.

Ishusho y'abantu bavanze ab'igitsina gore n'ab'igitsina gabo, abenshi muri bo bambaye imyenda y'ubururu bwerurutse ndetse abandi bakambara iy'umweru, bose bambaye ingofero zera; bafashe ikirango cyanditseho ngo ''umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri, isuzumishe turandure kanseri y'inkondo y'umura''.

Umugabo wambaye indorerwamo z'amaso uciye bugufi n'umwana uhagaze ku munzani, bose bambaye imipira ya orange isa, umugabo yambaye ipantaro y'umukara mu gihe umwana uhagaze ku munzani yambaye ipantaro y'ubururu.

Abantu benshi bicaye mu ihemama, iryo hema riteguye mu bitambaro bisa n'iby'amabara y'ibendera ry'igihugu, imbere hahagaze umugore wambaye ishati y'umweru ufite n'indangururamajwi.

Ishusho y'abantu icyenda bicaye muburyo bwuruziga, barimo abagore n'abagabo bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, mu bagabo harimo n'ushinzwe umutekano uzwi ku izina rya daso iruhande rwabo hari inzu iteye irangi ry'ubururu.

Ikirango kiri mu ibara ry'ubururu cyandikishije amabara yo mu ibara ryera, kivuga tugenekereje mu Kinyarwanda ngo "Umuryango w'abibumbye ishami rishinzwe ibiribwa".

Umwana wambaye impuzankano zigaragaza ko ari umunyeshuri, ufashe igikombe mu kuboko kw'iburyo, ari gufungura robine kugira ngo atege amazi muri icyo gikombe.

Ishusho y'umwana ukiri muto wunamye iruhande rw'ivomero, ari koza indobo, yambaye umupira w'umweru urimo utudomo tw'umukara.

Imodoka nini kandi ndende zikorera imizigo, ziri mu mabara yera, ziriho ibirango biriho inyuguti zo mu mpine W, F na P.

Abantu batandukanye barimo abagabo n'abagore bahagaze impande y'ivomero, umugore umwe arapomba icyuma kugira amazi aze, umwana umwe wambaye umupira w'umutuku ateza ijerekani ngo amazi atameneka.

Umuntu w'igitsina gore, ufite umusatsi wambaye umupira w'ubururu ndetse n'utukura, araseka, asa n'uwishimye.

Abantu babiri umugore n'umugabo, umugore yambaye ikoti ry'ubururu, umugabo yambaye ikoti ry'umukara, imbere yabo ku meza buri umwe afite icupa ry'amazi, inyuma yabo hari ibirango bigaragaza Minisiteri y'ubuzima.

Ishusho y'amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza yandikishije ibara ry'umweru, ari mu mabara atandukanye, umutuku, umuhondo, icyatsi, ubururu, umweru ndetse n'umukara, hejuru hari umutwe uvuga ngo serivisi zijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe mu Rwanda.

Abantu batanu bicaye, bane bicaye ku ntebe imwe undi umwe wicaye ku ntebe ye yihariye wazamuye ipantaro asa naho agaragaza ikibazo ku kuguru.

Abantu babiri uw'igitsina gabo n'uw'igitsina gore, bombi bahagaze, uw'igitsina gabo yambaye ikoti ndetse n'ipantaro by'umukara, imbere ye hari indabo asa n'uwaciye bugufi, inyuma ye ku rukuta hari amagambo menshi yanditse ku ruhererekane.

Abantu benshi bicaye ku ntebe, bafite n'abandi batandatu bicaye imbere yabo, bateguriwe ameza afite igitambaro cyera, hari ibirango biriho amagambo yo mu rurimi rw'Icyongereza tugenekereje mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo umunsi wahariwe ubuzima bwo mu mutwe.

Ishusho y'umugore wambaye umupira urimo imirongo y'umukara n'umuhondo ndetse n'ijipo irimo imirongo y'umutuku n'umweru, inyuma ye hari umwana wikoreye amaboko uri kurira bigaragara ko afite ibibazo.

Umuntu w'igitsina gabo, udakuze utari na muto, yambaye ishati y'amaboko maremare y'ubururu, arasa n'ufite akanyamuneza, inyuma ye hari abantu benshi.

Ishusho y'abantu bane b'igitsina gore, batatu bicaye imbere yabo hari uducupa tw'amazi, undi umwe ahagaze afite indangururamajwi, yambaye umupira wera n'ipantaro y'umukara, bigaragarako ari kubagezaho imbwirwaruhame.

Abagore batatu bahagaze bafite utubando, umwe muri bo akikiye umwana aramwonsa, abandi babiri bari bonyine, babiri bambaye imipira itukura, umwe yambaye umupira usa n'icyatsi cy'ikirere, bose bikenyeye ibitenge.

Abantu babiri umwe aricaye arasa n'uwigunze yashyize amaboko ku gahanga yambaye ishati isa n'icyatsi cya gisirikare, undi amufashe ku rutugu arasa n'umuhumuriza.

Icyapa gishushanyijeho abantu babiri umugabo n'umugore bahuje inkokora bambaye imyenda isa n'ubururu bw'ikirere hejuru umugabo yambaye ipantaro ya kaki.

Ifoto y'umuntu wambaye ingofero, wipfutse ku maso usa n'aho arira, yambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ingofero y'ubwoya yo mu ibara ry'umukara.

Umusore uri mu kigero cy'ubugimbi yicaye ahantu ha wenyine arigunze yambaye inkweto z'umukara yambaye umupira wera gusa nawe arirabura arasa n'ufite ibibazo.

Umuntu uhagaze wambaye umwenda utukura, n'ikoti ry'ubururu ufite imisatsi, uhanze amaso imbere ari guseka, iruhande rwe hari igitambaro cyanditseho ngo inshuti mu buzima tugenekereje mu kinyarwanda.

Icyapa kinini gishushanyijeho abantu babiri, umugabo n'umugore, cyanditseho amagambo asobanura ko ari umunsi mpuzamahanga wahagarariwe ubuzima bwo mu mutwe mu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu.

Icyapa cyo mu ibara ry'umukara cyanditseho amagambo yo mu rurimi rw'Icyongereza, yanditswe mu mabara atandukanye, yiganjemo ayanditseho ngo "Ubuzima bwo mu mutwe". Tugenekereje mu Kinyarwanda.

Abagabo n'abagore bahagaze bane bambaye imyenda yirabura, batatu bambaye imyenda yera hejuru, umwe wambaye umwenda w'umuhondo, bahagaze imbere y'ameza afite ibitambaro by'imikara.

Inyubako iteye amarangi atandukanye, arimo ay'icyatsi cyijimye, umutuku ndetse n'umweru, yanditseho amagambo ari mu nyuguti z'ibara ry'ubururu, agaragaza ko ari inzu y'ibitaro bya CARAES mu Rwanda.

Ishusho y'umugore wicaye wambaye ijipo namabara atandukanye ndetse n'umupira wicyatsi kijimye gisa n'ibara rya gisirikare, witeze igitambaro cy'amabara y'umuhondo mu mutwe, wicaye ku ntebe areba ku ruhande.

Umubyeyi wicaye ukikiye umwana witeze igitambaro cy'umuhondo, iruhande rwe hicaye undi mwana imbere ye hateretse inkoko iriho n'ingemeri.

Ishusho y'abantu bicaye mu nyubako iteye irangi ry'umuhondo, bose bahanze amaso imbere, bisa naho bari gukurikira imbwirwaruhame y'umuntu runaka. Biganjemo abagore n'abagabo.

Ishusho y'abagore babiri, umwe afashe telefone ndetse n'igikoresho, undi akikiye umwana, ukikiye umwana yambaye ikintu gipfuka umutwe we, bose bahanze amaso icyo gikoresho.

Ishusho y'abantu bivanzemo abagore n'abagabo, bateye intebe ku buryo bw'uruziga bicaye ndetse hari n'abahagaze hagati mu ruziga basa n'abaganira, bigaragara ko bari kungurana ibitekerezo.

Umuntu wicaye ahasa no mu mwijima, wambaye ubusa, wigunze bigaragara ko afite ikibazo cy'ubuzima.

Ishusho iri mu ibara rya pinki, igaragaza ubutumburuke bw'imibare y'abiyahura mu Rwanda uko igenda izamuka.

Abantu batatu bicaye bambaye udupfukamunwa bombi, babiri muri bo bambaye udupfukamunwa dusa n'ibara ry'ikirere, basa naho bakiri bato, mu gihe undi yambaye agapfukamunwa gatukura, yiteze igitambaro kirimo amabara atandukanye.

Icyumba kirimo abantu batatu, umugabo n'umugore bambaye impuzankano zigaragaza ko ari abaganga n'umwana urimo arasuzumwa cyangwa se avurwa indwara zo mu kanwa.

Umwana ukiri muto, wambaye ikanzu n'umupira w'umweru imbere, ufashe uburoso, asa n'uwiborosa, afite akanyamuneza, yishimye,

Ishusho y'umuntu w'igitsina gabo uri mu kigero cy'ubusore, wafashe urudodo arucisha mu menyo yo hasi ye, areba imbere, arasa n'uri guseka bigaragara ko yishimye.

Ishusho y'umuntu w'igitsina gore, bigaragara ko ataragera mu myaka y'ubukuru cyane, wambaye isengeri y'umweru ndetse witeze igitambaro cy'umweru, ufashe uburoso bw'amenyo bw'ubururu ari koza amenyo.

Ishusho y'umusore uryamye wegamye, ufite umusatsi uringaniye, ukeye mumaso, ari guseka bigaragara ko yishimye, yambaye umupira w'umweru ndetse arareba imbere.

Umuganga wambaye agapfukamunwa k'umweru ndetse n'imyambaro y'akazi yo mu ibara ry'umweru, uri gukorera ubuvuzi umukobwa wambaye isengeri y'umukara indwara zijyanye no mu kanwa.

Ishusho y'umwana uryamye uri mu myaka y'ubwangavu cyangwa ubugimbi, wogoshae umusatsi, inyuma ye hari umuganga wambaye udupfukantoki ndetse n'ibikoresho byo kwifashisha mu gihe umuntu ari kuvurwa indwara zo mu kanwa.

Bumwe mu buvuzi busigaye bwitaweho cyane muri iki gihe harimo n'ubuvuzi bw'amenyo, ubu bwafatwaga nk'ubutitaweho mu gihe cyashize ariko ubu abaganga b'inzobere b'amenyo barahari hirya no hino mu gihugu.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye indorerwamo z'amaso, ufite ubwanwa bwinshi, witunze urutoki, yambaye umupira wera, arasa nuseka bigaragara ko yishimye.

Abantu batandukanye bahagaze barimo abari gupimwa ibiro ndetse n'uburebure, bambaye imyenda itandukanye, bari imbere y'ihema ririho igishushanyo cyanditseho amagambo avuga ngo "umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bw'indwara zo mu kanwa."

Umuntu w'igitsina gabo bigaragara ko akiri muto, ufite ubwanwa ku matama ye, yafashe urudodo arunyuza mu menyo ye y'imbere asa n'uri guseka bigaragara ko yishimye.

Umugabo wambaye umwenda wera, ufite urudodo yanyujije mu menyo ye, asa n'useka bigaragara ko yishimye.

Abantu babiri b'igitsina gore, bombi bambaye imipira y'imikara imbere, gusa umwe yambaye ikoti risa n'ubururu bw'ikirere undi yambaye ikoti ritukura. Uw'ikoti ritukura arandika, uw'ikoti risa n'ubururu bw'ikirere afite urupapuro araseka.

Ishusho y'umuntu w'igitsina gore wambaye umupira w'amaboko maremare, uciyemo imirongo y'umweru n'umuhondo, ufite imisatsi miremire izirikiye inyuma, utoboye ku zuru ndetse no ku matwi, ufashe ikirore asa n'uri kwireba mu ndorerwamo.

Ishusho y'abagabo babiri bambaye ingofero z'urugara bombi, biteye imyitero itandukanye, umwe yiteye umwitero wera, undi yiteye umwitero wirabura. Bambaye n'amashati afite amabara atandukanye, umwe ni ishati y'icyatsi cyerurutse, undi ni ishati yera.

Umuntu w'igitsina gore wicaye wenyine, bigaragara ko akuze, ari guteka ku mashyiga, isafuriya ipfundikijwe indi.

Abantu batatu bombi bahagaze, barimo babiri basa naho bakiri bato umuhungu n'umukobwa, aho umuhungu yambaye umupira w'amaboko maremare w'umutuku, umukobwa akambara umupira w'amaboko maremare yera, hagati yabo hari umuntu w'igitsina gore usa n'ukuze, wambaye indorerwamo z'amaso.

Mu Rwanda haba akagoroba k'ababyeyi aho bahura bakaganira ku buzima bugiye butandukanye, bakungurana ibitekerezo ndetse bakagirana inama.

Ishusho y'umusaza n'umukecuru bose bambaye imikenyerero, umukecuru yambaye agapira k'ubururu bwererutse, mu gihe umusaza yambaye ishati irimo imirongo y'umukara, umukecuru yambaye umwitero wera mu gihe umusaza yambaye umwitero urimo amabara y'umweru n'umukara.

Ishusho y'umugore n'umugabo basa n'abakuze bombi, umugabo afite imvi nyinshi kandi n'umugore nawe ni uko, bicaye ku ntebe imbere yabo ku meza hari ururabyo ruteguye hari n'ikirahure cy'amazi, bafite ibinini mu ntoki bisa naho bageze mu masaha yo gufata imiti.

Umugore n'umugabo bicaye, umugabo asa n'ukuze afite imvi, yambaye indorerwamo z'amaso, barakina umukino bigaragara ko bishimye.

Umugabo usa n'ukuze ufite umutwe uriho imvi nyinshi, yambaye ishati irimo imirongo, ateruye umwana. Uwo mwana uteruwe afite igipupe mu kuboko kwe kw'iburyo.

Umugore usa n'ukuze, wambaye umupira w'ubururu wijimye ndetse n'ishati irimo amabara y'umutuku, ari kwarura ibyo kurya, iruhande rwe hari ikirahure cy'amazi.

Ishusho y'abantu batatu barutanwa mu byiciro, umwe ni umugore ukuze ufite imisatsi myinshi irimo imvi, undi ni umukobwa w'inkumi ufite imisatsi izirikiye ahagana hejuru, wambaye indorerwamo z'amaso, undi ni umwana ukiri muto.

Umugabo usa n'ukuze arapimwa umuvuduko w'amaraso ari n'umuganga w'umukobwa usa n'aho akiri muto, bose barishimye.

Ishusho y'umuntu wirabura munini ufashe ibinini mu kuboko kwe kw'ibumoso ndetse ukw'iburyo gufashe ikirahuri kirimo amazi bigaragara ko asa n'ugiye kunywa ibyo binini.

Ishusho y'umugore n'umugabo bicaye, bafite impapuro zitandukanye imbere yabo ku meza. Imugabo asa n'ukuze afite imvi nyinshi, haba ku bwanwa ndetse no mu mutwe, yambaye indorerwamo z'amaso. Bafite urupapuro barasoma.

Umugore n'umugabo bicaye, umugabo agaragara nk'ukuze afite telefone ararebamo ndetse n'umugore ni ho ahanze amaso.

Serivise z'ubuzima zitangwa ku bato ndetse nabakuze, igihe cyose wumva ukeneye ubuvuzi wikwiheba cyangwa ngo wibaze ku myaka yawe gana ikigo nderabuzima baragufasha.

Ishusho y'umugabo wambaye ikabutura y'umweru ndetse n'umupira wera n'inkweto zifunze, imbere ye hari umwana ufite umupira, wifashishwa mu gukina imikino y'amaboko.

Ishusho y'umubyeyi ndetse n'abandi bantu bane bahagaze inyuma ye, afite agakoresho kifashishwa mu kugorora imitsi y'amaboko kari mu ibara rya move, yambaye agapira gasa ibara ry'umweru.

Ishusho y'umugore n'umugabo bicaye, umugore afite mudasobwa imbere ye yambaye ishati yera, umugabo afashe icupa rito, yambaye ishati irimo amabara y'umutuku ndetse n'umweru, imbere yabo ku meza hari uducupa tubiri.

Umuntu ukuze, wambaye indorerwamo z'amaso, ufite umusatsi w'imvi, wambaye ishati y'icyatsi cyijimye, urimo arandika.

Abantu batanu barimo umwana umwe, umusore uhagaze wambaye umupira w'ubururu, umusaza usa n'ukuze wambaye ishati irimo imirongo, umukobwa wambaye ikanzu irimo amabara ndetse n'undi mukecuru wambaye umupira w'umweru. Uwo mukecuru arasa n'ufite uruhu rw'abanyaburayi.

Ishusho y'abantu babiri, umwe usa n'ukuze w'igitsina gabo, wicaye mu kagare yambaye ikoti ry'amaboko magufi risa umukara, inyuma ye hari umuntu w'igitsina gore wambaye imyambaro igaragaza ko ari umuganga.

Ababyeyi n'abanaha igitebo mubyeyi yicayebura hakurya ha umugabo uteruye umwana.

Urukundo rw'umwana n'umubyeyi ntagereranwa, umubyeyi wese aho ava akagera by'umwihariko abagore bakunda abana babo ku buryo inshuro nyinshi usanga bakina nabo imikino itandukanye, ibyo bifasha abana gukura mu bwonko.

Ishusho y'umugabo usa n'ukuze wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, ufite imvi nyinshi ku mutwe we. Ibumoso bwe hari abana babiri bicaye hasi iruhande rwe. Bari imbere y'umuryango w'inzu.

Ishusho y'umuntu w'igitsina gore usa n'ukuze, ufite umusatsi w'imvi, witeye umwitero wera ndetse n'umupira w'ubururu, uhagaze imbere y'uruvugiro, afite mikoro iri mu ibara ry'umutuku asa n'ubwira imbaga nyamwinshi.

Umusaza n'umukecuru, bafite imvi, bicaye bashyize amaboko ku meza imbere yabo hari ikirahure cy'amazi, bose bahanze amaso muri terefone.

Ifoto iragaragaraho abantu babiri, umwe arasa n'ukuze w'igitsina gore, yicaye ku ntebe afashe ikirahure cy'amazi mu kuboko kumwe ukundi kuboko kurateze ngo ahabwe ikinini.

Umuntu w'igitsina gore yicaye ku gitambaro yambaye ipantaro y'umutuku arambuye amaguru arasa n'uri kugorora ingingo z'umubiri.

Itsinda ry'abantu batatu bicaye hamwe, babiri bambaye ingofero, umwe yambaye ingofero yera, undi yambaye ingofero irimo amabara y'umweru ndetse n'ubururu, bose bahanze amaso muri terefone.

Ishusho y'umusaza wicaye wambaye indorerwamo z'amaso ndetse n'imvi z'uruyenzi, iruhande rwe hari wambaye imyenda y'umutuku ari kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri bifashishije akuma kagorora imitsi y'amaboko.

Ishusho y'abantu babiri, uw'igitsina gore n'uw'igitsina gabo, bose basa n'abari mu myaka yo hejuru, uw'igitsina gore afashe ikirahure arasuka ibinyobwa bisa n'aho ari gushaka guha uw'igitsina gabo. Imbere yabo hari imbuto zitandukanye zirimo pome.

Umuntu w'igitsina gabo usa n'uri mu zabukuru, wambaye ishati y'umukara y'amaboko maremare, yicaye ku buriri, iruhande rwe hari undi w'igitsina gore ufite imisatsi miremire usa n'uri kumufasha guhaguruka.

Ishusho y'abagore n'abagabo bahagaze bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, umwe muri bo afashe agakoresho gafite amapine, kifashishwa mu gihe umuntu ari gusuzumwa ingingo zimufasha mu kugenda nk'amaguru ndetse n'ibindi.

Umuntu w'igitsina gore, ufite imisatsi irimo imvi, ufashe mu maboko ye udukoresho twifashishwa mu kugorora imitsi y'amaboko, areba imbere arasa n'uwishimye, bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Agatabo gato kari mu ibara ry'ubururu, kanditseho umubare icumi, kanditseho kandi amagambo y'umweru avuga ngo "raporo yo kuboneza urubyaro."

Umugabo wambaye ikoti, ari n'abihayeye Imana batatu, bahagaze imbere y'ibishushanyo bigaragaza ikirango cya minisiteri y'ubuzima, basa n'abaganira.

Ishusho y'abantu barindwi bahagaze mu nyubako, bahagaze ahantu hafite ibara ry'icyatsi, bose bafite ibibaranga mu gatuza kabo, biganjemo abagore n'abagabo.

Ikirango gishushanyishije ibara ryera kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo yo mu rurimi rw'Icyongereza, tugenekereje mu Kinyarwanda ni ukuvuga ngo " Repubulika y'u Rwanda Minisiteri y'Ubuzima. ".

Imwe muri gahunda zafashwe na leta mu kurushaho kunoza serivisi z'ubuvuzi, harimo gutanga izo serivisi kuri bose ndetse no mu gihe cyose ntawuvanguwemo.

Ishusho y'abagabo babiri bose bafite ibitabo mu ntoki zabo n'amakoti y'ubururu, bambaye na za karuvate. Bose basuhuzanije ibiganza barareba imbere, umwe yambaye indorerwamo z'amaso undi we ntazo yambaye.

Ifoto y'umuntu w'igitsina gore wambaye ishati y'ibara ry'icyatsi cyijimye, indorerwamo z'amaso ndetse utoboye amatwi, ahagaze imbere y'uruvugiro, hari indangururamajwi ebyiri bisa naho abwira imbaga nyamwinshi.

Abaganga bane n'umurwayi uryamye, bambaye imyenda yabugenewe n'udupfukamunwa n'ingofero, batatu bambaye imyenda isa n'ingofero, umwe yambaye iy'umweru.

Itsinda ry'abantu benshi bambaye imipira y'imyeru, bivanzemo abahungu n'abakobwa, bafite ibirango byanditseho ngo twirinde kanseri y'ibere, tuyisuzumisha hakiri kare kuko ivurwa igakira.

Ukuboko k'umuntu kuriho ibiheri byinshi bigaragara ko asa n'uwarumwe cyangwa se ufite ubundi burwayi butandukanye bufata indwara z'uruhu.

Abantu bahagaze bambaye impuzankano ziri mu mabara y'icyatsi, bambaye udupfukamunwa ndetse banitwikiriye imitwe, icyumba barimo kirimo insakazamashusho ebyiri.

Ishusho y'umugore n'umugabo bahagaze bose bambaye amashati y'imikara, bafite ikirango cyanditseho amagambo mu rurimi rw'ikinyarwanda agira ati ''twisuzumishe igituntu kiravurwa kigakira''.

Abakozi bo kwa muganga by'umwihariko abakorana n'abarwayi bafite indwara zandura, nka ebora, corona ndetse n'izindi bagomba kwambara imyenda yabugenewe.

Ishusho yanditseho amagambo y'umweru n'umuhondo, avuga ibijyanye no gufata urukingo rw'icyorezo cya korona virusi.

Ishusho y'umugabo wicaye wambaye ikanzu y'umukara n'ingofero y'ubururu, wasamye imbere ye hari umuganga wambaye imyenda isa n'ubururu bw'ikirere, ari kumusuzuma mu kanwa.

Icyapa cyera cyanditseho inyuguti eshatu N, C, na D mu ibara ry'ubururu, munsi hariho icyo izo nyuguti eshatu zivuze mu magambo arambuye.

Ishusho igaragaraho abaganga ndetse n'abaturage, abo baganga bambaye udupfukantoki ndetse n'impuzankano, bari gusuzuma abaturage binyuze mu kubafata amaraso yo mu rutoki.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara uhagaze, iruhande rwe hari abandi bantu bane bicaye, babiri bicaye ku ntebe z'imituku bafite intuburamashusho imbere yabo.

Itsinda ry'abantu bakoraniye mu nyubako bicaye ku ntebe z'imituku, imbere yabo hari abandi bicaye babareba bigaragara ko bakurikiye ikiganiro ku ngingo runaka.

Ifoto iriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, hari umugabo uhagaze wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara asa n'utanga ikiganiro.

Ishusho y'inyubako yikizeru irimo amabara agize Idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, izwi nka Kigali Convention Center, iruhande rwayo hahagaze umuntu wambaye umupira w'umutuku ndetse n'ijipo y'ubururu.

Umurongo w'abantu bahagaze bareba imbere, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, abenshi muri bo bambaye imipira yera ndetse ku ruhande rw'ibumoso, hahera umuntu ugaragara mu myambaro y'ushinzwe umutekano uzwi ku izina rya DASSO.

Umuntu w'igitsina gabo wicaye munsi y'igiti kinini, hasa n'ahubakishijwe amabuye mu buryo bw'ikizeru, inyuma y'igiti haragaragara inyubako ndende iteye irange ry'umuhondo.

Inyubako igeretse rimwe ifite amabati y'ubururu ndetse iteye amarange y'ubururu n'umukara, imbere yayo hahagaze abantu bane n'imodoka ihahagaze.

Abantu batandukanye barimo abagabo n'abagore bicaye basa n'abaganira bambaye impuzankano zisa ziri mu ibara ry'umweru bigaragara ko ari abaganga.

Ishusho iriho abarwayi baryamye ku bitanda kwa muganga, impande yabo hari abaganga bari kubitaho, ibyo bitanda bihuriye kukuba bifite ibyuma byera byose ndetse bikaba binateye ku buryo busa.

Inyubako ikikijwe n'indabo nyinshi, ziganjemo izifite amabara y'umuhondo, yubakishijwe amatafari ahiye, asize irangi ryera, yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda avuga ngo ''ikigo nderabuzima cya Rwerere.''

Inyubako irimo abantu batandukanye, barimo abicaye ndetse n'uhagaze asa n'uwakirwa, uwo uhagaze yambaye umupira w'ubururu, ipantaro y'umukara ndetse n'ingofero y'umukara, ku rukuta hamanitseho isaha.

Inyubako nini kandi ndende igeretse kabiri isakaje amabati atukura, iteye irangi ry'umweru wijimye hari abantu batandukanye bari imbere y'iyo nyubako, mu gice cy'iburyo hashinze idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Ibitanda byinshi, kandi byiza. Bitonze ku murongo. biri mu ibara ryera, bifite amapine, buri gitanda gifite inzitiramubu yacyo hejuru, ndetse n'ibitambaro byo mu ibara ry'ubururu, bipfuka kuri ibyo bitanda.

Inyubako ifite urwinjiriro rw'ibyuma bisize ibara ry'ubururu, imbere yaho hari icyapa kigaragaza ko ari ibitaro by'akarere ka Nyanza.

Inyubako nini isakaje amabati y'ubururu, imbere yayo hari Ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda, hari kandi icyapa cyanditseho amagambo avuga ngo ''Ikigo nderabuzima cya Kanyinya.''

Icyumba gituje, kirimo ibitanda kirimo n'urumuri ruhagije, bigaragara ko ariho abarwayi baryamishwa.

Inyubako igeretse rimwe, iriho icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo mu mabara y'umukara, mu rurimi rw'Ikinyarwanda, agira ati: "Ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi."

Bimwe mu bipimo bifatwa no kwa muganga harimo nko gupima uburyo amaraso atembera mu mubiri, ndetse n'uburyo umutima utera, ni ngombwa kumenya ibi mu rwego rwo kumenya uko ubuzima buhagaze.

Inyubako yo kwa muganga iteye irangi ry'umuhondo, irimo ibitanda bitandukanye; bibiri muri byo biryamishijweho abantu, buri gitanda gifite inzitiramubu yacyo gusa itamanuye.

Inyubako nini kandi ndende iteye irangi ry'umuhondo, ifite amadirishya manini, imbere yayo hari indabo z'umuhondo, yanditseho amagambo mu nyuguti zera, agaragaza ko ari i Caraes. Ahafashirizwa abarwayi bo mu mutwe mu Gihugu cy'u Rwanda.

Ishusho y'abantu b'igitsinagore batatu, bombi bambaye impuzankano zo mu ibara ry'ubururu zisa, biteze ibitambaro byera, bahanze amaso imbere kandi bafite akanyamuneza mu maso.

Inyubako nini yubakishije amatafari ahiye, iteye amarange y'umuhondo, imbere yayo hateye intebe ebyiri, hari kandi n'umugabo uri gutambuka, wambaye ishati ndetse n'ipantaro y'umukara, ku rukuta rw'iyo nyubako hari igikoresho kifashishwa mu kuzimya inkongi.

Ishusho y'umuntu w'igitsina gore ufite imisatsi myinshi, wambaye imyenda y'ibara ry'icyatsi cyijimye, isa ipantaro ndetse n'ishati, ari kugenda agana imbere mu nyubako irimo ibitanda by'abarwayi.

Inyubako nziza ituje yubatse n'ibirahure byinshi, yanditseho amagambo yo mu rurimi rw'Icyongereza, tugenekereje mu Kinyarwanda, ni icyicaro cy'ubushakashatsi.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, birimo mudasobwa ndetse n'imvuburanyandiko, harimo umugabo umwe uhagaze wambaye impuzankano y'umweru, igaragaza ko ashobora kuba ari umuganga.

Inyubako nziza irimo ibikoresho bitandukanye, irimo umuntu wambaye ipantaro ndetse n’ishati bisa ibara ry’ubururu, afite imisatsi myinshi. Bigaragara ko ari kugenda yerekeza imbere.

Ishusho y'abantu bahagaze biganjemo abambaye amakoti y'imikara ndetse n'abazungu, umwe muri bo aricaye bose begereye icyapa cyanditseho ngo ibitaro bya Butaro.

Inyubako nini, isakaje amabati atukura, iteye amarange y'umukara n'umuhondo, imbere yayo hari amadarapo abiri, rimwe muri ayo madarapo ni idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, ifite amagambo ayanditseho bigaragaza ko ari ay'i Rukoma muri Remera, impande y'idirishya ryayo hari igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi.

Ishusho y'ubusitani bwiza kandi bunini, buteyemo ibiti bigufi ndetse n'indabo, burimo amatara ahagije, burimo kandi n'inyubako yubakishije amatafari ahiye, harimo uduhanda twabugenewe tunyurwamo n'abawugenda.

Umuntu w'igitsina gore ufite imisatsi miremire igera mu mugongo wambaye umwenda w'akazi wera, yicaye imbere ya mudasobwa arasa n'uri gusoma amakuru atandukanye, yambaye agapfukamunwa ndetse n'indorerwamo z'amaso.

Abagore batatu, umwe arakuze, uwicaye wambaye imyenda isa arasuzuma umuvuduko w'amaraso kuri umwe muri abo bagore.

Indwara ya infegisiyo ni imwe mu ndwara zizahaje mu Rwanda ndetse n'isi yose muri rusange, hafashwe ingamba zitandukanye zo kuyirwanya, harimo nko gushinga ibigo bikomeye kandi bigiye bitandukanye, hirya no hino byo kuyitaho.

Mu Rwanda buri karere kagira ibitaro bikuru by'ako, bimwe muro bikuru by'uturere twavuga nka Rwamagana, ibi ni ibitaro binini bitanga serivisi zitandukanye z'ubuzima hafi ya.

Inyubako zitandukanye ku marembo yazo haparitse amamodoka atandukanye ndetse na moto, usa n'uwinjira hari icyapa kinini kigaragaza ko ari inyubako z'ibitaro bya Kaminuza ya Butare.

Amarembo akinguye arimo abantu babiri basohoka, imbere hariyo inzu yubatse ifite amabati y'ubururu, hanze hari icyapa kinini kigaragaza ko ari ikigo nderabuzima cya MATYAZO.

Inyubako nini igeretse, imbere haparitse imodoka zitandukanye ndetse ziri mu mabara atandukanye, higanjemo n'imbangukiragutabara.

Inyubako ndende isize irange ryera, yanditseho amagambo yo mu rurimi rw'Igifaransa mu kinyarwanda ngo Kaminuza y'Igihugu cy'u Rwanda.

Ishusho y'umugabo wambaye impuzankano bigaragara ko ari umuganga, yambaye agapfukamunwa ndetse n'uturindantoki, mu kuboko kwe kw'ibumoso hari icupa, ukuboko kwe kw'iburyo kuri gukora kuri mudasobwa.

Mu Rwanda serivisi z'ubuzima zitabwaho ku rwego rwo hejuru. Aha twavuga nko kuba aho ugiye hose wazihasanga. Ingero harimo nko kugaragaza amaduka acuruza imiti, ahantu henshi kandi hatandukanye.

Itsinda ry'abantu bicaye ku ntebe biganjemo abakuze, imbere yaho hari abagabo babiri bicaye hari undi mugabo wa gatatu uhagaze asa n'utanga ikiganiro.

Ingeri zose zigomba guhabwa ubuvuzi, haba abana cyangwa se abakuze, umwana uvuwe hakiri kare, arakira, agasubira mu buzima busanzwe hakiri kare.

Inyubako ndende ifite ibirahuri bisa umukara n'inzugi ziteye irangi ry'umukara, imbere yayo hari umuntu wambaye imyenda ipfutse umubiri wose ndetse n'agapfukamunwa biri mu ibara ryera ndetse n'indobo ebyiri imwe y'icyatsi indi y'ubururu.

Inzu y'amatafari yahiye imbere yayo hari abantu bane umwe yicaye ku ntebe abandi batatu barahagaze, muri abo batatu bahagaze barimo umwe wambaye umupira w'umutuku undi wambaye ishati y'umweru ndetse n'undi wambaye ishati irimo amabara handitse amagambo agaragaza ko ari ikigo nderabuzima cya Gishweru.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu kureba utuntu duto cyane tutagaragara kizwi nka microscop, iruhande rwacyo hari amoko y'ibirahure bitandukanye ndetse biri no mu mashusho atandukanye.

Inyubako ndende zifite utuyira tw'abanyamaguru duteguye ndetse n'ubusitani busa neza, zubakishije amatafari ahiye.

Inyubako ndende igeretse kabiri, ifite amarangi y'umweru wijimye, yubakishije amatafari mato ahiye, imbere yayo hari abantu batandukanye abagore n'abagabo.

Inyubako nini iteye irangi ry'umweru ndetse n'iry'umuhondo, ifite ubusitani buhagije n'umunara inyuma yayo, imbere mu busitani hari igiti kinini.

Icyumba cy'inyubako giteguye neza giteye irangi ryera, kirimo n'ibirahuri by'imikara, giteguyemo igitanda gifite amapine, bigaragara ko ari ikifashishwa mu kuryamishwaho abarwayi, icyo cyumba kirimo na mudasobwa ebyiri.

Inyubako nziza irimo ibitanda bitandukanye, biriho imifariso ifite ibara ry'ubururu, bigaragara ko ari aharyamishwa abarwayi.

Icyumba gituje kirimo igitanda ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bigaragara ko ariho abarwayi basuzumirwa indwara zitandukanye.

Inyubako ndende igeretse gatatu iriho ibyapa bigiye bitandukanye n'amadarapo atandukanye imbere yayo, hejuru handitseho amagambo mu rurimi rw'Icyongereza, ugenekereje mu kinyarwanda ni nko kuvuga ngo ibitaro by'Umwami Fayisari.

Inzu nini ifite urubaraza runini, munsi yayo hari umuntu w'igitsina gore wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ijipo y'umutuku uhagaze ku nkingi y'iburyo ihegereye.

Kwa muganga, ingeri zigiye zitandukanye z'abantu, zivurirwa ahatandukanye. Hari nk'ahavurirwa abana, mu ndimi z'amahanga hitwa Pediatric center.

Icyumba k'inyubako gisa neza giteye irangi ry'umweru, kirimo igitanda kiryamishwaho abarwayi gifite amapine, irimo kandi ubwogero ndetse n'impapuro z'isuku ku rukuta.

Umukobwa usa n'ukiri muto, wambaye imyenda ya siporo ndetse n'inkweto z'umweru, afite imisatsi myinshi, asa n'ugorora imitsi y'ukuguru kwe.

Ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri ndetse n'igipimo gipima uburebure bw'ibintu cyangwa abantu, icupa ririmo amazi meza ndetse n'imbuto zirimo uruzwi nka pome.

Mu Rwanda tugira ibitaro bito tukagira n'ibitaro bikuru kimwe mu bitaro bikuru kandi bizwi mu Rwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga twavuga ibiherereye i Kigali byitiriwe Umwami Fayisari.

Itsinda ry'imbuto n'itsinda ry'ibikoresho by'imyitozo ngororamubiri. Itsinda ry'imbuto ryiganjemo imineke, amagi ndetse n'ibindi.

Umuntu usa n'uryamye wahinnye ivi, wambaye ikabutura y'umukara ngufi, hejuru hari undi uhagaze, wamufashe igice cy'ivi usa n'uri kumugorora.

Imvune ni imwe mu ndwara zigomba kwitabwaho ako kanya zikiba. Kuko uko utinda kujya kwivuza imvune, ari ko irushaho kurengerana, ikaba yagorana gukira.

Kwa muganga hagaragara ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu kuvura abantu, bitewe n'ubwoko bw'indwara. Abarwaye amaso bagira ibikoresho byabo, abarwaye indwara zo mu nda bagira ibikoresho byabo, ndetse n'abarwaye indwara z'uruhu bagira ibikoresho byabo.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye isengeri y'umukara, wicaye ufite ubwanwa, afashe icupa ry'amazi aranywa.

Ishusho y'umugabo ufite ubwanwa buringaniye, wambaye ikoti rifite n'ingofero, afashe mu kuboko kwe kw'iburyo icupa ry'amazi, aranywa, bigaragara ko yari afite inyota. Yambaye ikabutura y'umukara.

Umuntu wicaye imbere ya mudasobwa w'igitsina gabo, yambaye ishati y'umutuku, yahuje ibiganza, ari kwitegereza ibiri muri mudasobwa.

Ukuboko k'umuntu gufashwe n'ikiganza gitsindagira agatambaro k'ubururu kuri uko kuboko bisa naho umuntu ari gukorerwa ubuvuzi kuri ubwo kuboko.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye ikabutura yirabura n'umupira wera uryamye, yazamuye ukuguru agushyira ku rutugu rw'undi mugabo wicaye.

Umusore wicaye wambaye isengeri y'umukara ndetse n'ikabutura, yambaye isaha igezweho, n'inkweto zifunze bisa n'aho ari kwigorora ingingo ze yibanze ku gice cy'ikirenge.

Ishusho y'umukobwa, upfukamishije ivi rimwe, wazamuye amaboko ye, yambaye ipantaro imufashe iri mu ibara ry'ubururu bw'ikirere ndetse n'agasengeri kagufi k'umweru.

Umuntu uhagaze ufite agatwikirajosi kera, afashe icupa ry'amazi aranywa. Yambaye isengeri ndetse n'umukufi mu ijosi.

Ishusho y'umuntu w'igitsina gabo bigaragara ko akiri muto, afatishije ukuboko kw'iburyo icupa ry'amazi ry'umweru, aranywa amazi bigaragara ko ari meza.

Agakoresho gapima uburyo umutima utera, iruhande rwako hari inkweto ndetse n'umupira w'amaguru, byose bikoraniye hamwe.

Ishusho igaragaza ibiganza bibiri bifashe igikoresho kirimo imbuto zitandukanye, inyanya, insenda, avoka ndetse n'ibindi, ku ruhande hari umukeka ndetse n'inkweto.

Umukobwa wambaye imyambaro migufi ya siporo n'isaha ku kuboko kw'iburyo, wambaye inkweto zirimo amabara y'icyatsi kibisi, wunamye ari kugorora....

Ishusho y'agatanda k'abarwayi kajyana abantu, karambitse hasi kari mu ibara ry'ubururu, kanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu bwijimye.

Umukobwa uri mu kigero cy'ubukumi wicaye wambaye isengeri ngufi y'umukara ndetse n'ipantaro imufashe y'umukara, afite imisatsi miremire aragorora ingingo ze z'amaboko.

Abagabo batatu bunamye umwe yambaye umupira wirabura, undi yambaye umupira usa n'uwera uwo hagati yambaye Kasike cyangwa se yitwikiriye umutwe.

Imwe mu ngamba zagufasha kugira ubuzima buzira umuze harimo gukora imyitozo ngororamubiri inshuro nyinshi ibi bifasha gutembera kw'amaraso neza ndetse no kugororoka kw'imitsi.

Ishusho y'umuntu ufite ubwanwa ndetse n'imisatsi izirikiye inyuma, yambaye isengeri y'umukara ndetse n'agakabutura kagufi k'umukara, wapfukamye arambuye amaboko imbere bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Ishusho y'umuntu wunamye, uciye bugufi. Hagaragara gusa ibice bye by'amaboko ndetse n'amaguru. Yambaye isaha mu kuboko kwe kw'ibumoso, amaboko ye yose yayafatishije ku ivi rye ry'ibumoso.

Ishusho y'umusore wambaye ikabutura y'umukara ndetse n'umupira w'ubururu. Upfukamishije ivi ry'iburyo, uteruye ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri by'umwihariko bagorora ibice by'amaboko.

Ishusho y'umukobwa wicaye imbere ya mudasobwa, yicaye hasi yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agasengeri k'umukara kagufi, afite udukoresho tw'imyitozo ngororamubiri ndetse n'icupa ry'amazi iburyo bwe.

Ibikoresho bikoreshwa kwa muganga birimo imikasi ndetse n'ipamba bigomba kuba bisukuye kandi bibikwa ahantu habugenewe kugira ngo ubikoresha akore ibikwiye.

Abantu bane bahagaze; barimo batatu bambaye impuzankano bigaragaza ko ari abaganga n'undi umwe wambaye ikoti ryirabura; bose bahanze amaso imashini basa n'abari mu bushakashatsi cyangwa se bareba ikintu runaka muri iyo mashini.

Ifoto igaragaza abantu babiri, umwe wicaye wambaye imyenda isa, bigaragara ko ari impuzankano zo kwa muganga, wambaye n'uturindantoki, ndetse n'undi uhagaze mu gakoresho bigaragara ko ari gusuzumwa uburyo bwo guhagarara.

Ishusho y'umuntu ubyibushye bigaragara ko ari igitsina gore, yambaye ipantaro imufashe ndetse n'inkweto zifunze, yambaye agasengeri kagufi kari mu ibara ry'icyatsi cyijimye, aragorora ukuguru kwe kw'ibumoso.

Ishusho y'umuntu usa n'uwicaye ku gatanda, wambaye inkweto zifunze n'ikabutura ngufi ndetse n'umupira w'amaboko magufi, usa n'uri gukora imyitozo ngororamubiri cyane cyane kubi bice by'amaguru.

Ishusho y'umugabo wicaye wambaye umupira wamaboko magufi, uri mu ibara ry'umweru ndetse n'ipantaro yubururu bwijimye, ufatishije ukuboko kwe kw'ibumoso agatambaro, yikanda ukuboko kwe kw'iburyo ahagana mu nkokora.

Ishusho y'umuntu wicaye wahinnye ipantaro ye, wafatishije agatambaro ukuboko kw'iburyo kwe asa n'uwikanda igice cyo ku ivi rye, bigaragara ko asa n'uwavunitse.

Ishusho y'abantu babiri bisa naho umwe ari umukobwa, undi ari umuhungu, bose bafite amacupa y'amazi bambaye amasengeri n'amakabutura, bari gukora imyitozo ngororamubiri.

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, haba ibigorora ibice by'amaboko ndetse n'ibigorora ibice by'amaguru, byose biteraniye hamwe.

Kimwe mu bikoresho by'ingirakamaro kandi byifashishwa harimo nk'agakapu gatwara ibikoresho by'ubutabazi bw'ibanze, aka ni ngombwa kuko kagoboka umuntu mu gihe cy'amage.

Ishusho y'umuntu bigaragara ko akiri muto, wambaye isengeri irimo amabara atandukanye ndetse n'imfubikajosi isa umweru, ufashe mu kuboko kwe kw'iburyo icupa ry'amazi, na ryo ryera, rifite umufuniko w'ubururu ari kunywa amazi.

Ishusho y'umukobwa bigaragara ko akiri muto, yambaye ipantaro y'umukara n'isengeri yera ngufi n'imisatsi izirikiye mu mugongo, waryamye ashyize amaboko ye imbere, asa n'ukora imyitozo ngororamubiri.

Ishusho y'umuntu uryamye wambaye umupira w'umweru ndetse n'inkweto z'umukara, wahinnye ukuguru kwe kw'iburyo, undi ari kumugorora bigaragara ko hari ibyo ari kumufasha mu kugorora ukuguru kwe kw'iburyo, gushobora kuba kwagize ikibazo.

Ishusho y'umugabo wambaye umupira w'umukara, ufite icupa ry'amazi risa ubururu, ufatishije ukuboko kw'ibumoso ari kunywa amazi.

Umubiri wakoze imyitozo ngororamubiri utakaza isukari ndetse n'amazi. Umuntu wese asabwe gukora uko ashoboye akanywa amazi ahagije.

Ishusho iriho abantu bari gukina imikino itandukanye y'amaguru ndetse n'amaboko, hari kandi abari kunywa amazi, hari n'abari gusimbuka.

Itsinda ry'imbuto zitandukanye zirimo inanasi, amacunga, indimu, imineke ndetse n'ibindi byahurijwe hamwe.

Iigishushanyo cyanditseho amagambo avuga ko imyitozo ngororamubiri ari umuti. Kigaragaraho abantu bakora ubwoko butandukanye bw'imyitozo ngororamubiri, bifashishije ibikoresho bitandukanye.

Umuntu w'igitsina gabo ufashe icupa ry'amazi yambaye umupira wirabura ari kunywa amazi arasa nkureba imbere bigaragara ko afite icyaka.

Ishusho y'umuntu usa naho akiri muto, wambaye isengeri y'umutuku, wambaye n'isaha ku kuboko kw'ibumoso uhagaze asa n'unanura ibice bigiye bitandukanye by'umubiri we, cyane cyane amaboko.

Ifoto y'umuntu w'umukobwa wambaye isengeri yera ndetse n'ipantaro y'umukara, hagaragara kandi imbuto zitandukanye zirimo imineke ndetse n'amaronji na pome, handitse amagambo yo mu rurimi rw'Icyongereza, tugenekereje mu Kinyarwanda avuga ngo indyo y'imyitozo ngororamubiri.

Agatanda gaterura abarwayi kari mu ibara ryera, gafite imikandara iri mu ibara ry'umukara karambitse hasi, kagizwe n'imikandara itatu, buri umwe urafunze.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye uturindantoki ndetse n'impuzankano iri mu ibara ryera uhagaze mu nzu, isukuye, ifite igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi ku rukuta ndetse iteye n'irangi ryera.

Igikoresho cyifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, kiriho ibipimo bitandukanye bigaragaza uburebure bwacyo, nk'aho hasi hariho santimetero mirongo itandatu n'umunani, mirongo icyenda n'imwe, mu buhagarike kikagira santimetero ijana n'imwe.

Umuganga w'amenyo urimo aha ubuvuzi umwana, afashe igikoresho ari kumureba mu kanwa. Inyuma ye hari umugabo n'umugore bambaye udupfukamunwa.

Abantu babiri bambaye inkweto zifunze, umwe arasutamye yambaye imyenda y'imikara undi arahagaze yambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'ubururu.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri wambaye umupira n'ipantaro byirabura, aterura icyuma cyo gukora imyitozo, afite umubiri bigaragara rwose ko akora imyitozo.

Ishusho y'umuntu wicaye ku ntebe, wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, afashe akuma kifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri cyane cyane umuntu agorora imitsi y'ukuboko.

Akadege gato katagira abapirote kari mu ibara ry'umutuku gateruye agasanduku k'umweru gashushanyijeho ikirango cy'umusaraba gasa n'agatwaye ibikoresho byo kwa muganga.

Imikino igiye itandukanye ni imwe mu ngamba zo kwitabwaho kugira ngo umuntu agire ubuzima buzira umuze, kuko imyitozo ngororamubiri ari isoko y'umubiri ubereye nyirawo.

Ishusho y'umuntu uhagaze bigaragara ko ari uw'igitsina gabo, ufite umubiri munini usa n'uwakoze imyitozo ngororamubiri ihagije, ufite amatuza manini cyane ndetse n'amaboko manini bigaragara ko akora imyitozo uko bikwiye.

Amaguru y'umuntu bigaragara ko yicaye asa n'ukorerwa ubuvuzi ku gice cy'ukuguru hasi hifashishijwe ibikoresho byabugenewe.

Amacupa atandukanye, ari mu ngano zigiye zitandukanye, amenshi muri yo ahuriye ku kuba apfundikijwe imifuniko y'umuhondo, arapanze bigaragara ko abitse ibintu by'ingirakamaro.

Amakarito menshi atandukanye afunzwemo ibikoresho bitandukanye bisa n'imiti, ayo makarito ari mu mabara atandukanye harimo ay'imyeru, harimo ay'imihondo, harimo ay'icyatsi ndetse n'andi menshi atandukanye.

Mbere y'umwaduko w'abazungu abanyarwanda bari abavuzi bakomeye cyane bifashishaga ibimera bakavura umuntu agakira ijana ku ijana.

Icupa rigufi riri mu ibara ry'umweru, ripfundikije umufuniko w'umweru, riteretse ahantu naho hera, ryanditseho amagambo yo mu rurimi rw'Icyongereza.

Umurwayi udashoboye kurya, udashoboye kunywa wazahaye. Muri rusange udafite imbaraga z'umubiri hifashishwa serumu kugira ngo abone intungamubiri zituma akomeza kubaho.

Ishusho y'amacupa mato ateretse ari mu ibara ry'umweru, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, bigaragara ko harimo imiti ikomoka ku bimera.

Icupa ryometseho igipapuro kiri mu ibara ryera, ryandikishijeho amagambo y'umukara, ripfundikijwe umufuniko w'umuhondo.

Amacupa atandukanye ari mu bwoko butandukanye, amwe arimo imikara andi arimo imihondo, gusa byose bihuriye ku kuba birimo imiti.

Bimwe mu bimera, byifashishwa mu gukora imiti kandi ivura ijana ku ijana. Abanyarwanda bo hambere, bifashishaga ibyo bimera birimo umuravumba, bambuwa, igicunshu ndetse n'ibindi mu guhashya indwara zitandukanye.

Ishusho y'umuntu uri kwikora ku bice bitandukanye by'umubiri we haba ku ijosi, ku rutugu, ku nkokora, mu mugongo, ku ivi ndetse n'ahandi hatandukanye.

Icupa ry'ubururu ripfundikiye, ryanditseho amagambo yo mu rurimi rw'icyongereza ugenekereje mu kinyarwanda ni ukuvuga ngo amavuta y'uruhu.

Imiti ni bimwe mu bikoresho by'ingirakamaro umuntu agomba kubona mu gihe arwaye cyangwa se uburwayi bwe bwamaze kugaragara imwe mu muti nk'ibinini igurwa, igomba gushyirwa ahabugenewe mu bicupa kugira ngo ibe ifite ubuziranenge.

Icupa ryera ripfundikije umufuniko nawo wera, ryanditseho amagambo atandukanye, yandikishijwe amabara atandukanye. Ari mu rurimi rw'Icyongereza, tugenekereje mu kinyarwanda ni nko kuvuga ngo iteka.

Ishusho y'ikibuga kiriho ibyatsi, cyiganjemo indabo z'amabara atandukanye, harimo iz'umuhondo, iz'umweru ndetse n'iz'umutuku, byose biregeranye.

Hirya no hino, hari abavuzi gakondo, bagenda bacuruza imiti yakozwe ikuwe mu bimera, abantu bose barashishikarizwa kwitondera kuyigura, bakareba niba yujuje ubuziranenge.

Ifoto iriho ishusho yigisa n'icyatsi ndetse na voka ebyiri, imwe muri izo voka isatuyemo indi iracyari yose, handitseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza yandikishijwe inyuguti z'umweru.

Amacupa atandukanye arimo afite ibara ryera ndetse n'irya move yose yanditseho ijambo mu rurimi rw'Icyongereza tugenekereje mu kinyarwanda bivuga ngo ubuziraherezo.

Itsinda ry'ibimera byose bifite indabo zitandukanye; hari izisa iroze, hari izisa umutuku, hari izisa umuhondo ndetse hakaba n'izisa umweru.

Mirongo icyenda na gatanu ku ijana by'imiti yifashishwa iba yakuwe mu bimera, kimwe mu biranga ko umuti ufite inkomoko mu bimera hari nko kuba bishushanyije ku macupa iyo miti irimo.

Ishusho y'umugabo wambaye umupira w'umutuku n'akagofero gasa ibara ry'icyatsi cya gisirikare uhagaze mu nyubako ipanzemo amacupa menshi, handitseho amagambo avuga ngo kunoza urwego rw'ubuvuzi gakondo.

Icupa ry'umuhondo, ripfundikije umufuniko w'umutuku, ryanditseho amagambo atandukanye mu ibara ry'umutuku, bigaragara ko ririmo imiti runaka.

Agacupa k'ibara ry'umweru, gapfundikishije umufuniko w'umweru, kometseho igipapuro cyanditseho amagambo, igipapuro kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Inyubako, irimo ibicuruzwa, byiganjemo ibyobwa, mu binyobwa higanjemo amazi, ndetse n'imitobe, y'amoko atandukanye.